Ukuboko k'umugabo uri gukata itisi akoresheje umukasi kwamamaza ubwishingizi mu magambo agira ati: "Ramba n’ubwishingizi! Iyo ufite ubwishingizi bwo kwivuza, uba wizeye umutekano w’ubuzima bwawe, ugakorana umutuzo, ugateza imbere ubucuruzi bwawe. Ramba n’ubwishingizi, ubwishingizi bwo kwivuza buhendutse!"

Umubyeyi ukora akazi ko kubaza imbaho akoresheje akamashini aramamaza ubwishingizi bwihariye kandi buhendutse ku matsinda n'ibigo bitoramba n'ubwishingizi ubwishingizi bwo kwivuza, wabariza kuri nimero za telefone zero karindwi umunani numunani cumi n'icyenda umunani zeru zeru cyangwa se ukabasanga kuri murandasi.

Wihangayika ohereza ibisabwa byo kumenyesha impanuka igihe cyose aho uri hose unyuze ku murongo wa telefone, ikenda zeru zeru zeru cyangwa se ukanyura ku mbuga nkoranyambaga zose ushobora nanone kunyura kuri murandasi, ubwishingizi bwa mbere bw'amahitamo bw'u Rwanda.

Mu iduka ricuruza imyambaro yigeze kwambarwaho, umugore wambaye umupira w'ubururu arishyura ku kamashini akoresheje terefone, nyiri iduka ufite imisatsi, wambaye umupira w'umuhondo ndetse n'amadarubindi.

Umugabo wambaye ingofero, amadarubindi ndetse n'ishati y'umuhondo ari kumwe n'umugore wambaye ishati y'umweru, karuvati y'umutuku, amadarubindi ndetse ufite n'imisatsi miremire barakoresha mudasobwa ikorwamo hifashishijwe urutoki.

inyubako y'umweru ifite imiryango y'ibirahure ifunguye ikorerwamo n'ububiko bw'iduka ricuruza imyenda ryitwa RW ndetse na A harimo ibishushanyo byo mu ishusho y'umuntu byambitswe imyenda imwe mu icururizamo.

Umukozi ukora mu kigo gishinzwe kugura, kugurisha ndetse no kwita ku binyabiziga, arahererekanya igikoze mu ishusho y'urufunguzo n'umugabo wambaye ikote ry'umukara ndetse n'ipantaro y'itisi, imbere ya rimoroki nini isize irangi mu ibara ry'umweru.

Umugabo wambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'ubururu n'umugabo wambaye ishati y'umukara n'itisi bafashe igisa mu ishusho y'urufunguzo bahagaze imbere ya moruke ebyiri isa n'icyatsi ndetse nisa n'icunga rihishije.

Umukozi ukora mu kigo Akagera gishinzwe kugura, kugurisha no kwita ku binyabiziga ahagararanye n'abihayimana babiri bo mu idini ya gatolika, bahanahana mu kiganza igisa n'ishusho y'urufunguzo bigaragaza ubufatanye ndetse no gutangwa kw'imodoka.

Inoti y'amafaranga y'u Rwanda ibihumbi bitanu yakoreshwaga kera mu mwaka w'igihumbi kimwe magana kenda mirongo cyenda n'umunani, imbere ifite ishusho y'ababyinnyi ba kinyarwanda, inyuma ifite ishusho y'inyubako ya banki nkuru y'u Rwanda.

Icyuma gicuruza amata meza cyubatse ku buryo ubona aho winjiriza imibare ingana n'ingano y'amata ushaka, kikaba gifite naho'a utereka igikombe kugira ngo amata usabye ashyirwe muri icyo gikombe cyangwa se mu ijage.

Amazi meza yo kunywa atunganywa n'uruganda rwitwa Nili afite ubwiza n'ubuziranenge ntagereranywa utasanga andi mazi ayo ari yo yose dukoresha araboneka mu icupa rya litiro imwe n'igice.

Zigamira itangira ry'amashuri, tangira umwaka mushya w'amashuri mu mahoro, izigamire na Sipeni, kwizigamira bidasanzwe guhera none, Sipeni ubwizigame budasanzwe.

Ipaji yo kohereza amafaranga ku murongo uwo ariwo wose, uhisemo mpuzamahanga kohereza amafaranga mu bihugu byo hanze, urahitamo igihugu woherezamo amafaranga, urahitamo umuyoboro wa telefone uri bukoreshe, urandika amazina y'uwakira ndetse na nimero za telefone.

Inyemezabwishyu y'ikigo cya Leta gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda, Rwanda reveni, kuri ngari, ikigo gikora imbaraga z'amashanyarazi ziturutse ku mazi, imisoro bishyuye ibihumbi mirongo itatu, amande bishyuye ibihumbi cumi na bitanu, inyungu bishyuye ibihumbi bine magana atanu, byemejwe n'umukozi w'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro Rwanda reveni Flugence Munyaneza.

Inyemezabwishyu y'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda. Kuri Heniri Rutaganzwa. Imisoro yishyuye, ibihumbi mirongo itatu n' numunani. Amande yaciwe, ibihumbi cumi n'icyenda. Inyungu yishyuye, ibihumbi makumyabiri na magana atanu na makumyabiri. Byemejwe n'umukozi w'ikigo cy'imisoro n'amahoro, Ndizeye Emanweri.

Amafaranga y'amanyamahanga arahererekanwa hagati y'abantu babiri binyujijwe mu kadirishya kari munsi y'ikirahure, uyakira ni umugabo wambaye ishati y'umweru.

Icyapa cyamamaza umuryango ukoreramo ibiro bishinzwe kuvunja amafaranga y'amahanga, bigura bikanagurisha ku biciro bitandukanye, byitwa Tuzamurane, bifite agasanduku k'iposita magana atatu na cumi na gatatu, nimero ya telefone zeru umunani gatanu gatatu zeru gatatu kabiri zeru.

Inyubako nini y'amagorofa atanu, yitiriwe umuryango mutagatifu yakirirwamo abantu, ndetse ifite n'ibyumba byo kuraramo, ifite amatara y'umuhondo ayimurikira ku madirishya, bituma igaragara neza nimugoroba.

Icyumba gikoreramo abakozi bakorera ikigo runaka, kirateguye neza. Gifite amarangi y'umweru hejuru n'amatara y'umweru akimurikira. Amadirishya y'ibirahure byiza bituma hagaragarara neza ndetse n'ameza asa yose mu ibara ry'umweru ndetse n'intebe zisa zose mu ibara ry'umutuku.

Umuryango winjira mu biro umanitseho icyapa cyamamaza, ubwishingizi, cyanditseho amagambo agira ati "menya neza ko ufite ingabo ya nyayo igukingira, ubwishingizi bw'amahitamo ya mbere" mu biro harimo intebe, ameza ndetse na mudasobwa.

Inyubako y'amagorofa manini yagutse ikoreramo ibiro bikuru by'ikigo gishinzwe gutanga ubwishingizi, imanitseho icyapa mu ibara ry'umweru cyandikishijweho amagambo mu ibara ry'ubururu iruhande hateye ubusitani bw'amabengeza.

Inyubako nziza y'amagorofa yubatse n'ibirahure bigaragara imbere. Ifite icyapa giteye iruhande rwayo mu busitani kigaragaza ko ikorerwamo n'ibiro bikuru by'ubwishingizi bw'ibyago byose. Handitseho amerekezo y'aho wabariza kuri murandasi.

Inguzanyo yitwa tekana ubwishingizi bwuzuye bw'imodoka yawe wabariza ku murongo wubuntu kuri emutiyeni gatanu, rimwe, kabiri, zeru cyangwa se ugahamagara ku mirongo yose zeru, karindwi, umunani, umunani, cumi na karindwi, makumyabiri n'agatandatu, zeru, zeru.

Isoko rinini ryagutse ryahuriyemo abantu baje kugura no kugurisha ibicuruzwa bazanye bigiye bitandukanye, harimo intoryi, karoti, ibitoki, inyanya ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Icyapa kiri mu ibara ry'umutuku, n'amagambo yanditse mu ibara ry'umweru, kimanitse hejuru y'iduka ricuruza imikufi, riherereye mu nyubako y'ubucuruzi nini, ifite amagorofa ane, iri iruhande rw'umuhanda.

Umusore wambaye imyambaro y'umukara yicaye mu nyubako icururizwamo ibikoresho bikorerwa mu Rwanda ndetse n'ibikoresho bya kinyarwanda, harimo ibikapu, uduseke, imitako yo mu nzu itandukanye ndetse n'inkoni.

Akazu gato keza kubakanywe ubwiza ntagereranywa, kazwiho kuba gakorerwamo n'umukozi ukorera ibigo bishinzwe imiyoboro y'itumanaho, gatatseho ibyapa byamamaza umuyoboro w'itumanaho uzwi ku izina rya Airtel.

Akazu gato kubakijijwe ibyuma kari iruhande rw'umuhanda; gakoreramo umukozi w'ikigo gishinzwe imirongo y'itumanaho, kamanitseho ibyapa byamamaza umurongo w'itumanaho wa MTN kanditseho amagambo yakwereka imibare ushobora gukanda kugirango wohereze unakire amafaranga.

Akadarapo kamamaza ikigo cy'ubucuruzi gikorera kuri murandasi kitwa vuba vuba. Kagaragaza umugabo utwaye igare wambaye ishati y'icyatsi, n'isakame y'icyatsi, igemurirwamo ibicuruzwa. Intego y'iki kigo iragira iti ''uratumizaho tukabimugezaho. Uri kumwandikira unyuze mu gikari, tukamugezaho ibyo yatumije. Ntago turi abantu bamwe. Tera intambwe utumize nonaha''.

Amadorari igihumbi magana atanu ku kwezi, mu Rwanda agukodeshereza icyumba cyiza mu mujyi wa Kigali Kacyiru, icyumba gifite amakaro gifite igitanda cyiza kiri iruhande y'imiryango minini y'ibirahure igufasha kureba hanze n'ubwiza bw'ibidukikije.

Umugabo n'umugore baritegereza icyumba cy'inyubako kinini cyo kwakiriramo abantu, kirimo intebe zo kwicaraho nini z'imifariso, akabati gatatsemo imitako igiye itandukanye ndetse n'inyakiramashusho nini imanitse ku gikuta cy'umweru.

Ibi ni byo amadorari magana atanu mirongo itanu ku kwezi aguhesha mu mujyi wa Kigali mu Rwanda, inzu nziza ifite umuryango ukoze mu giti cya ribuyu, saro nziza isize irangi ry'umweru irimo televiziyo, akuma kazana umuyaga mu nzu, itapi, ameza ndetse n'imitako y'indabyo hamwe n'intebe y'imifariso.

Kuri miliyoni ijana na cumi n'eshanu, ushobora kwigurira inyubako nziza iteye amabengeza mu Rwanda, mu Mujyi wa Kigali, i Kanombe, inyubako nziza isize amarangi yo mu ibara ry'umweru, amabati mu ibara ry'umutuku ndetse ifite ibikombe byo gushyiramo indabyo biteretse iruhande rw'inkingi zerekeza ku muryango.

Inyubako nziza ifite igipangu cyagutse gishashemo amapave ndetse n'ubusitani bwiza, iruhande rw'inyubako isize amarangi y'ibara ry'ubururu ndetse n'amabati mu ibara ry'umutuku, iyi nyubako irakodeshwa amafaranga ibihumbi magana atanu ku kwezi, iherereye i Kigali Kicukiro, ifite ibyumba bine ndetse n'ubwogero butatu.

Inzu itunganyirizwamo amajwi n'amashusho by'indirimbo n'umuziki iraboneka ikodeshwa ku bihumbi magana atatu na mirongo itanu harimo na fagitire z'ibyo ukoresha, ifite esanseri, ifite n'utwuma turinda impanuka ku magorofa.

Inyubako ikodeshwa nziza cyane yubatswe mu buryo bumenyerewe cyane mu Rwanda buzwi ku izina ry'agacurama, iherereye i Kanombe muri Kigali, ifite ibyumba bine n'ubwogero butatu, ikaba ikodeshwa ibihumbi magana atatu na mirongo itanu ku kwezi.

Inyubako nini yo kuguriramo imyenda, ishashe amakaro hasi, ndetse iruhande hari ibibumbano byinshi byambaye imyenda bikoreshwa mu kwamamaza imyenda y'abantu itandukanye biyambaye.

Ibi ni ibiro by'ivunjisha kandi bitanga amafaranga biha agaciro k'abantu bazanye nimba amadolari bayajyana mu banyarwanda icyamuyarwanda bashaka amadolari kandi tukabona n'icyapa cyanditseho banki ya Kigali ubwo byemekana ko muri iyo nyubako harimo n ishami rya banki ya kigali kandi hariho na nimero wahamagara iyo nzu y'ivunjisha mu gihe ubabuze.

Ababyeyi batatu ndetse n'umugabo umwe bicaye bategereje ku ntebe y'imbere ku murongo, bafite udukayi dutoya mu ntoki ndetse n'impapuro ndende z'umweru, inyuma ku ntebe ya kabiri ku murongo hicaye umubyeyi umwe, ndetse inyuma ye hahagaze umukecuru n'umwana.

Icyapa kigaragaza ikigo cy'ubwizigamire bw'igihe kirekire ejo heza cyanditseho amagambo agira ati: ''Igihe ugifite imbaraga zo gukora zigamira izabukuru muri ejo heza.'' Kimanitse iruhande rw'igishararagati cyicayemo abasore bambaye imipira y'umweru bari guhugurwa.

Inyubako nini y'isoko ry'ibicuruzwa by'ubwoko bwose, imbere y'umugabo wambaye ishati y'umukara hari umugabo wambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'umukara, wambaye isaha ku kuboko arasunika akagare, aritegereza ibikoresho bikoresha amashanyarazi iruhande rwe.